Ingeri zitandukanye z'abantu abagore ndetse n'abagabo bicaye mu nzumberabyombi. Imbere yabo hagiye hari utwuma twabugenewe dushinzwe kurangurura amajwi , bafite imashini imbere yabo ndetse imbere yabo ku meza hateretse amazi ,iruhande rwabo hari umugabo uhagaze wambaye ikirango mu ijosi , biragaragara ko bari mu nama cyangwa se amahugurwa.

Ingeri zitandukanye z'abantu abagore, abagabo imbere yabo baricaye mu cyumba cy'inama, hari amatara abafasha mu kugirango ngo barusheho kubona neza ,hejuru mu madirishya hari ibikingiriza byagenewe gukingiriza urumuri rwinshi kugirango rwokwinjira .Imbere yabo hateretse amazi ,bafite imashini biragaragara ko hari ibyo bari kwigaho mu nama cyangwa mu mahugurwa.

Umugabo wicaye mu ntebe y'umukara, afite indangururamajwi mu ntoki, yambaye isaha y'umukara, imbere ye ku meza hateretse telefone ndetse n'uducupa tubiri tw'amazi, ukuboko kw'iburyo kurimo arasa n'uri gusobanurira abantu ibijyanye n'irembo kuko ukuboko kwe kw'iburyo kurimo kuratunga intoki ku byo abasobanurira bigendanye n'irembo.

Umukobwa cyangwa se umudamu yicaye mu kazi gakorerwamo ubucuruzi bw'amafaranga, ukoresheje banki ya kisibi cyangwa se ishami rya emutiyeni, imbere ye harambitse akamashini, bigaragara ko kabara amafaranga ndetse iruhande rwako hari impapuro.

Umugabo cyangwa umusore ukuze ariko udashaje uhagaze imbere y'inzu isize amarangi y'ubururu ndetse n'icyapa cya banki yitwa Eco bank, ahagaze imbere yayo, yambaye isaha, ipantaro y'umukara, birasa naho ari kugana muri iyo nzu itangirwamo imitangire y'iyo banki, ibikorwa bikorerwa muri iyo banki.

Icyapa kiriho abantu benshi batandukanye hejuru yabo handitse ijambo ngo inkiko gacaca naho munsi hariho ngo uri ubutabera ubwiyunge.

Abantu benshi; bicaye ahantu hamwe bambaye bose imyenda y' irosa, biragaragara ko ar' imfungwa barimo baragororwa bitewe n'amakosa bakoze, bakiye impande yabo harimu umugabo uhagaze wambaye agapfukamunwa wambaye n' imyenda iyambarwa n'abantu bashinzwe kurinda izo mfungwa.

Umugabo wirabura, utuje, wambaye ikoti ry’umutuku. Ukuze wambaye ishati y’umweru, mu ijosi ifite ibara ry’ubururu bucuye.

Abagabo cyangwa se abasore, abagore n'abana, bahagaze imbere y'imodoka, imbere y'iyo modoka hahaga abashinzwe umutekano bakikije ibintu biri hasi kumukeka cyangwa ku musambi, biragaragara y'uko ibyo bintu bitujuje ubuziranenge kuko abahahagaze bose bambaye udupfukamunwa.

Abagabo bane n'abagore babiri bahagaze mu mujyo umwe, imbere yabo hari ameza arambuyeho igitambaro cy'umweru, imbere y'ameza hari icyuma cyabugenewe gishinzwe gufata no kurangurura amajwi, inyuma yabo hari igitambaro kiriho ifoto biragaragara ko uwo mugabo asa nk'uri kwiyamamaza.

Umuhanda nyabagendwa uri kugendamo ibinyabiziga n'abantu. Iruhande rwaho hahagaze imodoka yapfuye, bigaragara ko bari kuyikora. Ihagaze imbere y'igipangu cy'umweru ariko gifite urugi rw'umukara, urengeje amaso urahabona inzu y'igorofa isize irangi rya oranje.

Kuri iyi foto turahabona umumotari uhetse umugenzi bahagaze impande y'igiti. I ruhande rwabo birasa nk'aho bahagaze ahantu hakorera kampani runaka, cyangwa se rukaba ari uruganda ruhakorera.